Iyi ni inyubako ifite amakaro y'umuhondo, ameza y'umutuku, ifite irangi ry'umuhondo, umweru. Harimo intebe zifite umwenda w'umukara n'umweru.

Inyubako nziza cyane irimo abantu benshi batandukanye, imbere y'aba bantu hariho ameza asa umukara, ku meza hariho impapuro, hariho amazi, hariho na mudasobwa, impande y'aba bantu hariho ibikuta bisa shokora, imbere yabo hari icyapa gisa ubururu cyandikisha inyuguti zisa umweru, hicaye abantu batatu; abagabo babiri n'umugore umwe, biragaragara yuko hano hantu habereye inama, bari nko kuyobora bano bantu.

Abantu benshi cyane batandukanye, bicaye mu ntebe zisa umukara, inyuma y'abo hari urukuta rusa umweru, imbere y'aba bantu hariho ameza asa umutuku, hejuru kumeza hariho amacupa y'amazi asa ubururu, biragaragara ko aba bantu bari nko mu nama.

Abantu benshi cyane batandukanye, imbere yabo hari ameza afite igitambaro gisa umukara, mudasobwa z'umweru, hejuru kuri ayo meza hari impapuro z'umweru, amacupa y'ubururu n'umweru, abo bantu biragaragara ko bari nko mu nama.

Inyubako nziza cyane irimo abantu benshi batandukanye, imbere y'aba bantu hara meza, hejuru hasa umukara mu mpande hasa umutuku. Bicaye ku ntebe zisa umukara, aba bantu biragaragara ko bari mu nama. Biragaragara ko ari ku manywa hari kwaka n'amatara, ku nkuta y'inyubako harasa umweru.

Abantu batatu bicaye mu ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza asa umutuku, inyuma y'aba bantu hari icyapa kinini cyane gisa ubururu n'icyatsi cyandikishije inyuguti zisa umweru.

Abantu benshi cyane batandukanye, harimo bambaye imyenda isa umweru, abambaye isa umuhondo, n'abambaye isa umukara. Aba bantu bicaye ku ntebe zisa umukara, ameza afite igitambaro gisa icyatsi. Inyubako barimo ifite igikuta gisa umweru.

Abantu barindwi batandukanye, bicaye mu ntebe zisa umukara. Imbere yabo hari ameza asa shokora. Aba bantu biragaragara ko barimo mu inama. Hejuru kuri ayo meza hari mudasobwa y'umweru. Imbere yabo hari igikapu gisa umukara.

Abantu batatu batandukanye harimo abadamu babiri n'umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu, bicaye ku ntebe z'uburu, inyuma yabo hari icyapa gisa ubururu, cyandikishijeho amagambo asa umweru n'ik'icyatsi cyandikishijeho amagambo asa umweru, imbere yabo hari ameza meza cyane asa umutuku.

Aha hari abaturage bafite imyenda igiye itandukanye ifite amabara atandukanye hari icyatsi, ubururu, umukara, umutuku n'umweru.

Abantu benshi batandukanye ,abagore n'abagabo ,imbere yabo hari ameza asa shokora. Ku meza hateretseho amazi, n'amakayi ,n'amakaramu na terefone na mudasobwa. Imbere y 'aba bantu hari icyapa gisa ubururu cyanditse mu nyuguti zisa umweru .Hariho n'ibikuta bisa umweru n'amarido asa umuhondo . Hicayeho imbere abagore bambaye imyenda y'umutuku n'misatsi isa umukara.

Abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda y'umutuku, umukara, umweru, ubururu. Aba bantu bari mu itente isa icyatsi, ubururu n'umuhondo. Ahantu bari bigaragare ko bari nko mu nama cyangwa se bakaba bari kwizihiza ibirori runaka imbere yabo hari ameza afite igitambaro gisa icyatsi n'umweru.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda isa ubururu imbere yabo hariho ameza asa umuhondo, inyuma yabo hari urukuta rugiye gusa icyatsi, amarido asa umukara, umwe afite ikoti risa umukara.

Umukobwa wambaye agapira gasa umukara n'umweru imbere ye hari ameza asa shokora hari igipapuro gisa umweru afite n'ikaramu mu ntoki, inyuma yiwe hariho abandi bantu ku meza hateretseho amazi na mudasobwa biragaragara yuko bano bantu bari nko mu nama.

Abantu benshi batandukanye bicaye imbere yabo kumeza hasa umweru hariho mudasobwa harimo n'ururabyo rwiza hateretseho n'amazi , hari umugabo uhagaze n'umugore uhagaze, umugore yambaye agapira gasa umuhondo afashe na mikoro umugabo nawe afashe mikoro yambaye ishati iciyemo uturongo n'ipantaro ya shokora.

Umunara mwiza cyane, ufite ibyuma by'icyatsi, umukara n'umweru. Hasi kuri uwo munara hari amazu meza cyane atandukanye, afite amabara atandukanye, umuhondo, umutuku. Hejuru hari ikirere kirimo ubururu n'umweru, biragaragara ko ari ku manywa.

Aha hari irembo hariho ingarani ifite ibara ry'umukara n'icyapa cya emutiyene gifite ibara ry'umuhondo na mudasobwa y'umukara.

Mudaso Mudasobwa isa umukara irimo mo imbere amabara asa umuhondo n'ubururu, akapa gasa n'umweru kandikishijwemo amagambo asa umukara, umutuku n'ubururu, hejuru y'iyi mudasobwa hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu cyandikishijwemo amagambo y'umweru, harimo n'ibara ry'umweru ryandikishijwemo amagambo y'ubururu harimo n'ibara ry'umuhondo.

Ibyuma bikikije umunara bisa umweru, hariho n'utubogisi dusa umweru, hirya hariho n'ibyuma bisa icyatsi, hirya y'ibi ibyuma hariho ibiti bisa icyatsi byinshi cyane, hariho n'umuhanda w'igitaka.

Abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda zisa umukara, umutuku n'umweru. Bicaye ku ntebe zisa umuhondo, imbere yabo hari ameza asa umuhondo n'umweru. Hirya y'abo bantu hari urukuta rusa umweru na shokora, hasi hari amakaro asa umweru.

Inzu isize amarangi asa umuhondo, ifite n'inzugi zisa icyatsi, n'urundi rugi rusa umuhondo, hejuru y'iyi nzu hari icyapa gisa umweru, hejuru harasa ubururu handikishije inyuguti zisa umweru biragaragara ko bahafatira ibijyanye n'irembo, hasi yaho hari n'inzu mo imbere isa umukara.

Aa dufite mudasobwa y'umukara imwe harimo amagambo yandikishije umukara harimo ibara ry'umweru, umuhondo n'ubururu.

Umuhanda wubakishijwe amabuye ya sa shokora, hirya y'uyu muhanda hari inyubako nziza cyane, mo imbere harimo intebe zegamirwa zisa umweru n'ameza asa shokora. Imbere y'uyu muhanda hariho n'inzozi zisa icyatsi, hariho icyapa gisa umweru cyandikishijwe amabara asa ubururu n'umweru.

Umukobwa mwiza cyane wambaye umupira w'umweru, ekuteri z'umukara, umusatsi mwiza cyane w'umukara, imbere ye hari mudasobwa y'umukara nziza cyane, inyuma ya mudasobwa hari urukuta rw'umweru.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umukara, umweru, umuhondo na shokora. Hasi hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi. Iruhande rwaho hari urupangu rusa umuhondo.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umuhondo, imbere yaho hari urupangu rufite ibara risa shokora n'umukara urukuta rusa umweru, imbere y'iyo nzu hariho ibiti byinshi cyane, ipoto risa umweru ririho itara ryo mu muhanda aha biragaragara ko ari hafi n'umuhanda.

Ipoto risa umweru hariho insinga zisa umukara zijyana umuriro hirya no hino, hejuru hariho n'itarara ryo mu mahanda. Hirya y'iri poto hari igiti kinini gisa icyatsi, inyuma y'ipoto hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umuhondo n'umukara n'umweru.

Icyapa kinini cyane gisa umuhondo kirimo amagambo asa umukara impande y'icyo cyapa hari i poto rinini cyane rifite itarajya mu muhanda hariho ikindi cyapa gisa umweru cyandikishijweho amagambo asa umutuku n'umukara hariho hariho umuntu imbere y'icyo gishushanyo hariyo abamotari benshi bambaye imyenda isa umutuku n'ingofero zisa umutuku.

Abanyonzi babiri, umwe yambaye umupira usa umweru n'ikabutura isa umweru, undi yambaye umupira usa umukara, hirya y'abo banyonzi hari imodoka nini cyane isa umweru, ubururu n'icyatsi. Hirya y'imodoka hari ipoto rinini cyane ririho amatara yo ku muhanda, hariho n'ipoto rinini cyane rijyana amashanyarazi hirya no hino ku isi.

Ubusitani bwiza cyane hateyemo ibiti bisa icyatsi, harimo ni poto risa umweru rifite insinga zisa umukara zijyana umuriro hirya no hino, hakurya hari hariho umuhanda usa umukara ucaiyeho akarongo gasa umweru, hakurya hari n'indi nyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru ifite n'igipangu gisa umukara.

Umunara, ipoto, inzu y'amabara y'umweru n'umuhondo, ubururu, icyapa cy'umukara n'amatara.

Ipoto rinini cyane ririho itsinga z'umukara rifite ibyuma bisa umweru n'umukara, hariho itsinga z'umukara zijyana umuriro hirya no hino ku Isi, hasi y'iri poto harimo udutafari dusa umweru, hirya y'iri poto hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'amazu menshi.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka zisa umukara. Hirya y'umuhanda hariho ibiti byinshi bitandukanye bisa icyatsi. Hariho ipoto risa umweru rifite insinga z'umukara. Inyuma y'ibyo biti hari inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru. Hejuru hasa umutuku.

Ipoto risa umweru rifite insingazi zisa umukara zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye. Hasi yiyi poto hari inyubako ifite amabati asa shokora. Hirya y'iyi nyubako hari igiti gisa icyatsi. Hasi hariho n'abantu.

Aha hari ipironi ry'umuriro, inyubako yubakishije amatafari ahiye, hasi yaho hariho ibigega by'umukara, hepfo ho gatoya hariho ibiti by'icyatsi.

Ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, imbere y'ibyo biti hari ipoto rinini cyane ririho insinga zigiye zitanga umuriro hirya no hino ku isi hatandukanye. Imbere yiryo poto hari umuhanda wa kaburimbo usa umukara, impande y'uwo umuhanda hariho amabuye asa umukara n'umweru, inyuma y'igiti hariho inzu isa umuhondo.

Ipoto risa umweru, rifite insinga zisa umukara zijyana umuriro hirya no hino. Impande y'iy'ipoto hari matera zifite amabara atandukanye zegereye inzu yubakishijwe amatafari asa shokora. Hirya y'iyi nzu hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Aha hari icyapa gifite amabara y'icyatsi n'umweru, ipoto y'icyapa gifite ibara ry'umweru, umutuku, inzu ifite ibara ry'umutuku.

Amapoto asa umweru afite insinga zisa umukara zijyana umuriro hirya no hino ku isi hatandukanye, hasi hari ibyatsi bisa icyatsi, hariho abantu babiri umwe yambaye umwenda usa iroza, yambaye undi mugore yambaye ishati isa umweru, hirya harihoho n'igega gisa umukara. Hari ninyubako nini cyane ifite amabara asa umweru, hejuru yinyubako hariho ibiti.

Icyapa kinini cyane cya mpande eshatu, gifite ibara risa umutuku n'umweru, harimo ikimenyetso cyo guteranya. Icyo cyapa, kiri hafi y'umuhanda urimo imodoka zisa umukara, hirya yaho hari umutaka wa MTN.

Aha hariho jaride y'icyatsi harimo ururabo rw'icyatsi iruhande rwaho hari inzu ifite urugi rw'umweru ibara ryaho niry'umutuku inyuma hariho ibiti by'icyatsi.

Icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa umweru, hasi ikicyapa hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, harimo indabyo zisa umweru n'umuhondo; inyuma y'iki cyapa hari imodoka nziza cyane zisa umukara n'umweru, hirya y'izi modoka hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Inyubako ifite inzugi z'ubururu urukuta rw'umweru, hejuru hariho ibara ry'umuhondo n'umweru hasi hariho indabyo z'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ukikijwe n'amabuye asa umukara. Haparitse imodoka ebyiri nziza cyane zisa umukara, inyuma hariho itara risa umutuku. Imbere yizi modoka hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi. Imbere yubu busitani hari inzu nini cyane ifite ibyuma bisa umweru. Imbere yiyi nzu hariho imodoka zisa umweru.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo umugabo ahetse igikapu cy'umukara; yambaye imyenda isa umukara, hakurya yiwe haparitse imodoka zisa umukara n'umutuku, hahagazeho umugabo wambaye imyenda isa umukara, biragaragara ko ari nzizazi ino modoka; ndabona ari ku manwa biragaragara ko n'imvura yaguye, hakurya yaho hari igicu gisa umweru n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa ubururu, umweru, hasi y'iyi nyubako hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi. Muri ubwo busitani harimo icyapa gisa ubururu, harimo akantu gasa umweru, hasi y'aho hari ikindi cyapa gisa umweru kirimo ibara risa umutuku. Imbere y'iyi nyubako hari umuhanda ukikijwe n'amabuye asa umweru.

Aha hari imbangukiragutabara ifite ibara ry'ubururu n'umweru n'umutuku n'umukara, iruhande hari ibiti by'icyatsi, igipangu cy'umutuku n'umweru.

Umugore wambaye ikanzu isa ubururu, wambaye n'amaherena, afite imisatsi isa umukara, ahagaze ku meza asa shokora, afite mikoro, inyuma yiwe hari ibara risa umuhondo n'icyatsi n'umweru.

Umudamu mwiza cyane wambaye imyenda isa umutuku, mo imbere yambariyemo undi mwenda usa umweru, kumaherena ye inyuma ye hari icyapa gisa umweru, ufite imisatsi myiza cyane isa umukara.

Umumama mwiza cyane ufite imisatsi isa umukara, wambaye ishati isa umutuku, harimo umurongo usa umukara, mo imbere yambariyemo agashati gasa umweru. Inyuma y'uyu mudamu hari urukuta rusa umweru.

Abagabo babiri umwe yambaye imyenda yijimye, undi yambaye imyenda isa iroza, afite igitabo gisa ubururu n'umweru, yambaye isaha n'amapingu, impande yaba hari indabyo nziza cyane zisa icyatsi n'umuhondo. Biragaragara y'uko uyu mugabo, afite ibyaha bagiye kumufunga.

Kaburimbo isa umukara iciyemo uturongo dusa umweruru iparitsemo ikimodoka gisa ubururu n'umweru, basohoyemo umugabo wambaye ikoti risa umukara afite na karuvati isa umutuku. Kumpande ziwe hari abagabo batatu bambaye imyenda isa umukara, biragaragara ko bano bagabo bashinzwe umutekano, uyu muntu ashobora kuba yakosheje bagiye kumufunga bamwambitse n'amapingu.

Aha hari ameza y'umukara n'umweru, hariho mudasobwa y'umukara impapuro z'umweru, icupa ry'ubururu n'umweru.

Inyubako nziza cyane, ifite ibara risa umukara na shokora, hejuru hariho icyapa gisa umweru cyandikishijemo amagambo asa umukara, hirya y'aho hariho ishyamba rinini cyane, harimo n'indabyo zisa umuhondo, aha kuri iyi nyubako ku rupangu hariho icyapa gisa umweru, umurongo w'umukara, n'uw'ubururu, wandikishijeho amagambo asa umweru,

Umugabo wicaye ku ntebe isa umukara inyuma ye hariho urukuta rusa ubururu; Umugabo yambaye ikoti risa umukara, karuvati isa ubururu n'umweru n'ishati nziza cyane isa umweru na mikoro isa ubururu.

Inyubako nini cyane isa shokora n'umukara, urugi rw'umukara; imbere y'inyubako hari abagabo benshi cyane bambaye imyenda y'iroza n'imyenda y'umutuku, inyuma y'aba bagabo hari umunara muremure aho batangira amatangazo; biragaragara ko aha ngaha ari kuri gereza.

Inyubako nini cyane yu ibakisha amatafarisa shokora haca n'akanrongo gasa umurongo hasi hari abantu bafite amavidasi umuhondo wambaye bote zi zumukara bambaye imyenda isa umuhondo n'iroza, aba bantu bigaragaye ko iyi nyubako ariyo hafungiwe bafungiwemo hirya y'inyubako hari n'urutsinga runini cyane rusa umukara.

Abantu benshi cyane bari kuva mu kimodoka, bambaye udupfukamunwa dusa ubururu, bambaye imyenda isa iroza, hari abagabo bambaye imyenda yijimye babatondesheje umurongo. Hirya yabo hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, abo bagabo biragaragara ko bari kurinda bano bantu bashobora kuba bakoze nk'ibyaha.

Ibiti byinshi cyane bisa icyatsi impande y'ibi biti hari inyubako nziza cyane isa umweru, hejuru y'iyi nyubako hari ipoto iri kujyana insinga hirya no hino ku isi, iyi nzu ifite ibara ry'umweru n'ubururu mu imbere ndikubona harimo ikigina.

Amacupa abiri, rimwe riri hejuru irindi riri hasi, amacupa asa umutuku, agiye ariho icyapa gisa umukara cyandikishijwe inyuguti zisa umutuku n'umweru, hariho urutsinga rusa umukara, aya macupa bayakoresha iyo nk'inzu yahiye bari kuzimya, hasi hariho n'amakaro asa umweru.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda isa umukara, n'ingofero zisa icyatsi, iyo myenda irimo uturongo dusa icyatsi, bafite ibitsinga binini cyane bisa umutuku, ahantu bari biragaragara ko hahiye baje nko kuzimya uwo umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara. Hirya hari akayira k'abanyamaguru gahagazeho umugabo ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'umukara hariho n'ibara ry'icyatsi. Hari ahantu hashoye uturongo tw'umweru mu muhanda aho bambukira, hirya yaho hari kugenda moto n'imodoka n'abandi barikwambuka. Hirya hari inyubako nziza cyane isa umukara n'umweru.

Icupa risa umutuku rifite icyapa gisi umweruru cyandikijweweho amagambo asa umutuku hirya yaho hari irindi cupa risa umweru rifite icyapa gisa umukara cyandikishwaho amagambo asa umweru hejuru y'iki cyapa hari ikindi kintu gisa umutuku gifite icyapa gisa umukara n'umweru kirimo amagambo asa umutuku kikaba kiri ahantu ku rukuta rusa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka isa umukara n'indi isa umweru uhagazemo abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara, hirya y'uyu muhanda hari ishyamba rinini cyane risa icyatsi, impande yaha hari indabyo zisa umutuku, umuhondo ni'cyatsi. aha ngaha bigaragare ko ari umutekano uri mu muhanda.

Abagabo batatu babiri bambaye imyenda isa umukara harimo imirongo isa icyatsi n'ingofero zisa umweru. Undi yambaye imyenda isa ubururu biragaragara ko ari nk'umusekirite, ahantu bari biragaragara ko hahiye bari kuhazimya,

Umugabo wambaye imyenda isa umukara n'icyatsi, imbere y'umugabo hari umumotari wambaye ingofero isa umutuku n'ijiri isa umuhondo n'ubururu. Imbere yabo hari imodoka nini cyane isa ubururu. Imbere y'iyo modoka hari icyapa kinini cyane gisa umutuku cyandikishije inyuguti zisa umuhondo.

Aha hari inyubako isa umutuku mo imbere harimo umuriro, imbere yaho hariho abantu babiri, iruhande rw'iyo nzu hari iyindi nzu ifite ibara ry'umuhondo.

Hari imodoka ifite ibara ry'umweru n'ubururu, umukara wandikishijwe amagambo y'umweru harimo uturongo tw'umutuku n'umweru.

Abantu batatu harimo uwambaye ishati isa umweru n'undi wambaye isa ubururu n'u undi wambaye isa umukara, abantu bahagaze hejuru y'agasanduku gafite umufuniko usa umukara, gasa umweru biragaragara ko uyu muntu yari ari gutora.

Abantu bane imbere yabo hari ameza asa shokora, hateretseho mikoro na compiyuta, hariho umugabo imbere yabo wambaye imyenda isa ubururu n'ishati mo imbere isa umuhondo. Uwo mugabo ari kubahereza igiseke, hanyuma bagashyiramo udupapuro. Hejuru yabo hari n'urukuta rusa ubururu.

Umugabo wambaye kositimu isa ubururu, n'agapira mo imbere gasa umukara, yambaye inkweto zisa ikigina, yambaye umukandara usa umukara, imbere ye hari mikoro, inyuma ye hari abantu bamuteze amatwi, hari umugore wambaye ikanzu isa icyatsi n'inkweto zisa umweru. Biragaragara ko uyu mugabo afite nk'umutangabuhamya ari kubabwira.

Abantu benshi bamanitse amadarapo bambaye imipira y'ubururu hari abambaye imipira isa umutuku n'ubururu bambaye n'ingofero zisa umutuku, imbere yabo hari intebe za shokora amadarapo bamanitse arasa umweru n'umuhondo, hejuru hari n'andi madarapo asa umutuku, hejuru yabo hari igiti gisa icyatsi biragaragara ko ari ku manywa ibicu bisa umweru.

Aha hari igihingwa gifite ibara ry'umutuku, icyatsi, iruhande rwaho hariho ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu benshi cyane batandukanye hari abagabo babiri ubona ko bari gusuhuzanya bishimye cyane, hirya hari abandi bantu babishimiye ahantu bari hasa umweru, umuhondo, ariko ahantu bari biragaragara ko ari nka nimugoroba tu.

Abadamu batatu bambaye imyenda isa umuhondo n'icyatsi, hirya yaho hariho tenti isa umweru iriho icyapa gisa icyatsi, cyandikishijweho amagambo asa umuhondo, aba bantu biragaragara ko bari nko mu birori.

Abantu batanu bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza asa umukara imbere yayo meza hateretseho amazi hariho na terefone, imbere hicaye umugore wambaye agapira gaciyemo uturongo tw'umweru n'icyatsi. Hirya ye hicaye umugabo wambaye ikoti risa umukara na karuvate isa ubururu, biragaragara ko bano bantu bari nko mu nama inyuma yabo hari igikuta gisa umweru.

Abantu benshi batandukanye abari kwinjira bajya guto n'abari gusohoka bava gutora hejuru yabo hari icyapa gisa ubururu cyandikishijejwe inyuguti zisa umukara, hirya yaho hari ibiti bisa icyatsi n'umukara, mu mbande yaho hari ibara risa umuhondo n'ubururu.

Umugabo wambaye ishati isa umweru, afite mikoro, yambaye amadarubindi asa umukara. Inyuma ye hari icyapa gisa ubururu cyandikishijwe mu nyuguti zisa umweru. Uyu mugabo biragaragara ko ahagaze imbere y'abantu afitemo ubutangabuhamya ari kubabwira.

Hari mudasobwa y'umukara, indangururamajwi y'umukara umugozi w'ubururu ameza y'umweru, terefone y'umukara na kamera y'umukara.

Abantu batanu bamanitse amaboko, imbere yabo hari mikoro, hari n'idarapo risa ubururu, umuhondo n'icyatsi. Harimo abagore batatu, harimo umugabo wambaye kositimu isa mukara na karuvati isa ubururu n'ishati isa umweru, yambaye n'inkweto zisa umukara. Aho bahagaze hari amakaro asa umweru, hirya yabo hari n'abantu bicaye, imbere yabo hari ameza asa shokora.

Abantu benshi cyane batandukanye, harimo abambaye imyenda zisa umukara, ubururu, umutuku, hariho imodoka isa umukara, hariho n'undi mugabo wambaye umwenda usa ubururu. Aba bantu biragaragara ko bari nko mu matora. Hirya yabo bantu hari ahantu hari ibiti byiza cyane bisa umukara.

Umugore wicaye mu ntebe isa umukara, yambaye ikoti risa umuhondo, mo imbere harimo agapira gasa umukara, afite umusatsi w'umukara, yambaye amaherena n'amadarubindi, hirya ye hari idarapo risa umuhondo, ubururu, icyatsi, inyuma ye hari urukuta rusa umweru.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka zitandukanye, harimo imodoka isa umweru. Hirya hari n'imodoka isa ubururu, ipfundikishije shitingi isa ubururu. Hahagazeho umugore n'umugabo; umugore ateze ibitenge. Hakurya hariho n'umugabo wegereye agahanda k'abanyamaguru uri kuza mu muhanda yambaye ijiri isa icyatsi n'umukara, n'umweru. Hirya hariho n'amatara yo mu muhanda ari kwaka umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umunyonzi n'umumotari, hirya yabo hari umuhanda w'igitaka uparitsemo ibimodoka binini cyane harimo ikimodoka gisa ubururu, hariho n'igisa umweru, ahahagazeho n'umumotari hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka isa icyatsi, umweru, umuhondo n'ubururu, imbere y'imodoka hari umumotari ufite moto isa umutuku n'umweru, hirya y'aho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane isa umweru n'abamotari benshi cyane batandukanye, hirya y'uyu muhanda hariho ibiti bisa icyatsi, inyuma y'iyi modoka hari indi modoka isa ubururu n'umunyonzi utwaye igare wambaye umupira usa ubururu.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka kinini, gifite amapine asa umukara, na cyo gisa umweru, hasi hariho umuhondo n'umutuku. Impande y'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, imbere y'iki kimodoka hari amatara yo mu muhanda, afite amapoto asa umweruru. Ruguru hariho n'icyapa gisa umutuku, cyandikishije mu nyuguti zisa umutuku n'umukara.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka kinini, gifite amabara asa ubururu n'umweru, kiri kwaka amatara asa umuhondo, biri kugaragara ko bwije cyane. Hirya y'iki kimodoka hari amapoto afite insinga ajyana umuriro hirya no hino ku isi, hariho n'amatara yo mu muhanda, hari n'ikindi kimodoka gisa umweru n'umukara, hari kugenda n'abagenzi benshi.

Hari imodoka isa icyatsi cyijimye, ifite ibyuma by'umweru, hirya y'umuhanda hariho ibiti by'icyatsi, uruzitiro rw'icyatsi.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka isa umweru ifite igitambaro gisa umukara, hirya y'uy'umuhanda hari imodoka nini cyane isa ubururu, imbere y'iyo modoka harimo ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi wambaye umupira w'umweru, ingofero y'umutuku, inyuma ye hari imodoka nziza cyane ifite ibara risa ubururu n'umweru. Hirya y'iyi modoka hari indi modoka nini cyane ifite ibara risa icyatsi, inyuma y'izi modoka hariho igiti cyiza cyane gisa icyatsi. Impande y'umuhanda hari amapoto maremare meza cyane ariho amatara yo mu muhanda.

Imodoka nini cyane ifite ibara risa ubururu, umweru n'umuhondo n'amapine y'umukara. Iyi modoka iri mu muhanda, iriho umugabo wambaye umupira usa umutuku n'umukara n'ishati isa umweru.

Umuhanda w'umukara urimo moto ifite amapine atatu, isa umukara, yandikishije inyuguti zisa umweru, umugabo urimo yambaye umupira usa ubururu, n'ipantaro isa ubururu, hirya y'umuhanda, hari ibiti binini cyane bisa icyatsi.

Aha hari imodoka y'umweru, umukara, hariho n'indi y'ubururu n'umweru n'umukara, hirya yabo hari umuhanda w'umukara, iruhande rw'umuhanda hariho ibiti by'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ushoyemo akarongo k'umweru haparitsemo moto nyinshi cyane, harimo abamotari bambaye ingofero z'umutuku n'umuhondo. Hirya hari amatara yo mu muhanda ari kwaka umuhondo, ruguru y'amatara hari inyubako nziza cyane ruguru hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Imodoka nyinshi zitandukanye, ifite ibara risa umweru, n'ifite ibara risa umutuku, n'ifite ibara risa ubururu. Aha ni mu muhanda. Harimo abamotari babiri, umwe wambaye kasike isa umuhondo n'undi wambaye kasike isa umutuku, uhetse umugenzi wambaye imyenda isa umukara.

Umunyonzi upakiye umufuka usa umweru, hejuru hari akantu gasa umukara, imbere yaho hari imodoka isa umweru, biragaragara ko aha ngaha ari nimugoroba bwije cyane.

Umuhanda usa umukara uri kugenda n'imodoka kinini gifite ibara ry'umukara n'ubururu, harimo inka y'umweru n'inka y'umukara n'umweru, inyuma y'iki kimodoka hari ibiti binini cyane bisa icyatsi, hirya y'ibi biti hari n'inyubako nini.

Umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umweru harimo imodoka isa umweru ifite akarongo gasa icyatsi, imbere y'iyi modoka hari modoka isa umukara, hirya yaho hari igiti kinini cyane gisa icyatsi, inyuma y'iyi modoka hari indi imodoka isa umukara.

Imodoka nini cyane ifite ibara risa ubururu n'umweru amapine y'umukara, hejuru kuri iyi imodoka hari amagambo yandikishijwe ibara risa umweru, umutuku n'icyatsi, aha ngaha biragaragara ko ari nko muri gare.

Imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara n'akarongo k'umuhondo; imbere yaho gato hariho icyumba cy'umutuku; hasi hariho parikingi y'umweru, irimo akarongo k'umweru n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukararu; urikugendaho abanyonzi batatu umwe yambaye ijiri isa icyatsi, undi yambaye umupirasa umukara, n'undi yambaye agapira gasa umweru, imbere yabo hakaba hari imodoka kinini cyane ifite ibara ryijimye; n'indi modoka iri inyuma ifite ibara risa umweru, hakurya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hariho n'amatara yo ku muhanda.

Umumotari wambaye ingofero isa umuhondo ijirisa umuhondo nu'ubururu utwaye moto isa umukara n,umutuku ari mu muhanda wigitaka imbere yayo imodoka isa umukara hirya yayo hari urukuta rusa umutuku imbere rwurukuta hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Ikimodoka kinini cyane gisa icyatsi imbere hasa umutuku gifite amagambo yandikishije ibara ry'umweru kiri mu muhanda ushaje, inyuma y'umuhanda hariho ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Aha hari umuhanda ushaje urimo imodoka y'ibara y'umweru n'ubururu, hirya hari ibiti by'icyatsi, imbere y'uwo muhanda hariho ibisheke.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umuhondo n'umweru, hirya y'uwo muhanda hari umumotari uparitse moto wambaye ingofero isa umutuku, hirya yaho hari urupanpu rwiza cyane rufite ibara ry'umweru, hirya y'urwo rupangu hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Hari imodoka y'umukara n'umweru mu muhanda w'umukara hirya y'aho hariho uruzitiro rw'icyatsi inyuma hariho ibiti icyatsi umuntu wikoreye imifuka y'umweru.

Inyubako ifite irangi ry'icyatsi hariho umutuku, umweru, umuhondo, icyatsi n'icyapa cy'umweru kiriho amagambo y'umukara.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka nini cyane isa umweru iriho igitambaro gisa ubururu, hahagazeho umugabo wambaye imyenda y'imikara, imbere y'iyo modoka hari umumotari wambaye ingofero y'umutuku n'ijire isa umuhondo n'ubururu.

Imodoka nini cyane ifite ibara isa umweru, harimo umuntu wambaye umupira usa umweru. Hirya y'iyo modoka hari ishyamba risa icyatsi. Imbere hari indi modoka nini cyane ifite ibara risa ubururu, hagati y'izi modoka harimo umuntu wambaye umupira usa ubururu, n'undi wambaye ipantaro isa umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wambaye ingofero isa umuhondo, ijili isa umuhondo n'ubururu uri kuri moto isa umukara, Impande ye hari umuntu utambuka wambaye ipantaro isa ubururu, hirya yuyu muhanda hari ibitibi byinshi cyane bisa icyatsi n'amapoto maremare meza cyane ariho amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite ibara risa umweru n'umukara ,hirya yaho hariho umunyonzi ufite umufuka usa umweru, hari n'igito hariho n'igikarito gisa umuhondo. Inyuma y'umunyonzi, hari n'indi modoka isa umweru ifite ibyuyuma bisa umweru hirya y'umuhanda hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Abantu benshi cyane batandukanye inyuma yaho hari imodoka nini cyane isa ubururu, imbere yaho hari indi modoka isa umweru, hirya y'imodoka hari ikigega kinini cyane gisa ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka isa umweru n'umutuku, inyuma y'iyi modoka hariho abamotari babiri batwaye abagenzi. Inyuma y'uyu muhanda hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Imodoka nziza cyane iri mu muhanda wa kaburimbo, ufite umurongo w'umweru, hirya y'uyu muhanda hari ishyamba, imbere y'igishyamba hariho ipoto rirerire cyane ririho amatara yo ku muhanda.

Aha hari gare irimo imodoka zigiye zitandukanye bisi y'ubururu n'umweru igare rifite amabara y'umutuku ubururu n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo umumotari wambaye ingofero isa umuhondo n'ijiri isa umuhondo n'ubururu, imbere y'umumotari hari kugenda imodoka isa ubururu ipfundikije shitingi isa ubururu, hakurya y'iyimodoka hariho ikindi kimodoka kinini cyane gifite amapine asa umukara gisa nacyo ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo usa umweru, hirya y'umuhanda hariho amabuye asa umweru n'umukara harimo imodoka isa umweru urimo umurongo usa umuhondo. Inyuma y'iyo modoka hari umutaka usa umuhondo, hariho inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru.

Imodoka nziza cyane isa umutuku iri mu muhanda w'igitaka, hirya yaho hari indi isa icyatsi, inyuma y'izi modoka hari ishyamba ryiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara hari kugendamo imodoka isa umweru, ifite n'amapine asa umukara imbere y'iyo modoka ari kugendaho moto, hirya hari akayira k'abanyamaguru impande y'akayira k'abanyamaguru hari rigori ijyana amazi. Hirya y'iriya modoka hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, n'ahantu bari kubaka, inzu n'amatara yo ku muhanda, ninsinga zijyana umuriro.

Dufite umuhanda w'umukara n'umweru, iruhande rw'uwo muhanda hariho imodoka ifite ibara ry'umutuku n'ifite ibara ry'umweru n'ibiti by'icyatsi n'icyapa kiriho gisa umukara, cyandikishije amagambo y'umweru.

Umuhanda usa shokora uri kugenda aho abantu benshi batandukanye, hariho umukobwa wambaye ipantaro isa ubururu afite terefone mu ntoki. Hirya ye hari abantu bicaye ku ntebe isa shokora bambaye umupira usa orange nishati isa umwe. Hirya yaho hari ubusitani bwiza cyane hari ni inyubako nini cyane ifite ibara risa umuhondo n'umweru.

Umuhanda w'igitaka hirya y'umuhanda hari ikibuga gisa icyatsi harimo gukinamo abantu benshi cyane, hirya y'ikibuga hariyo amapoto asa umweru hirya y'amapoto hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wubakishije amatafari y'amapave asa shokora hirya yaho hari intebe ifite ibyuma bisa umukara hejuru aho bicara harasa umutuku hiryaho hari n'umuhanda usa umutuku, hirya y'intebe hari ipoto rinini cyane. Hirya yiri poto hari ubusitani bwiza cyane ubusa icyatsi bamenaguriyemo amabuye.

Ubusitani bwiza cyane, hirya ku busitani hari ibyuma bisa umweru n'umukara, hakurya yaho hariho n'indi nzu yubatse iriho intebe zisa umweru, hahagazeho umugabo wambaye umupira wijimye n'ipantaro isa umukara.

Icyapa kiza cyane cya mpande eshatu gifite ibara ry'umutuku n'umweru harimo akantu k'umukara hasi hari indabyo zisa umuhondo, ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hirya y'iki cyapa hari igiti cyiza kinini cyane gisa icyatsi, iruhande rw'icyo giti hariho inzu nziza cyane ifite irangi ry'umuhondo imbere yaho hari imodoka nziza cyane.

Umuhanda w'umukara ushoyemo umurongo usa umweru, hari kugendamo umugabo yambaye imyenda isa ubururu, yambaye ingofero isa umweru, ruguru y'umuhanda hari icyapa gisa icyatsi cyandikishije inyuguti zisa umweru, hasi y'iki cyapa hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hari n'ikindi cyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Icyapa cy'ikizeru gisa ubururu n'umweru hasi y'iki cyapa hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, inyuma y'ik icyapa hari urukuta rusa umweru, hejuru hari igiti gisa icyatsi, iki cyapa biragaragarako ari icyo ku muhanda.

Ibyapa bibiri bya mpande enye, bisa umuhondo, harimo amagambo asa umukara, inyuma y'icyo cyapa hari umuhanda wa kaburimbo, inyuma y'umuhanda hari igiti cyiza cyane, kinini cyane, gisa icyatsi.

Icyapa cy'umutuku gifite mpande eshatu, hasi hariho umugabo wambaye imyenda isa umukara ari kwinjira mu nyubako isize irangi risa umweru, hejuru hari icyapa cyarikishije mu ibara risa umweru, hirya rero n'insinga zijyana' umurirori hirya no hino ku i isi hatandukanye, hirya n'umuhanda w'umukara uciyemo uturongo dusa umweru hari kugenda abamotari n'imodoka na.

Icyapa cy'umutuku mu imbere hariho umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara. Iki cyapa gifite impande eshatu. Hasi y'iki cyapa hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi umutuku hirya hari n'utunyuguti twandikishije umweru, hejuru hari n'ibicu bisa ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Icyapa cy'ikizeru gisa umweru n'umutuku harimo imodoka isa umukara, hasi y'iki cyapa hariho ubusitani busa icyatsi, imbere yaho hariho abantu benshi cyane batandukanye. Inyuma y'iki cyapa hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hejuru hariho ikirere gisa ubururu n'umweru. Iki cyapa biragaragara ko ari icyo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru hariho n'akayira k'abanyamaguru gasa shokora, ruguru y'umuhanda hari icyapa gisa icyatsi cyandikishije mu nyuguti zisa umweru, hirya y'iki cyapa hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, ruguru hariyo ikindi cyapa gisa umutuku cya mpande enye.

Icyapa kiri ku busitani bwiza cyane busa icyatsi gifite ibara ry'umweru n'umuhondo n'umukara. Kino cyapa gifite mpande enye hirya y'iki cyapa hari umuhanda usa umukara uciramo akarongo gasa umweru.

Icyapa cy'ikizeru gifite ibara ry'umutuku n'umweru, hagati handitsemo inyuguti zisa umukara. Kino cyapa mu mpande hacyo hari ibara risa umweru, hasi hariho ibara risa umukara ryandikishijwe inyuguti zisa umweru. Kino cyapa biragaragara ko ari icyo mu muhanda.

Icyapa gifite mpandeshatu, ifite ibara risa umutuku, mo imbere harimo umukara n'umweru, kino cyapa biragaragara ko aricyo mu muhanda kiyobora ikinyabiziga. Hirya y' iki cyapa harasa umweru.

Icyapa cyiza cyane, cya mpandeshatu, kirimo umutuku, n'umukara, n'umweru, hasi kuri icyo cyapa hari ubusitani bwiza cyane bw'icyatsi, hirya hari igiti cyiza cyane, inyuma y'icyo giti hari inyubako nziza cyane.

Icyapa gisa umuhondo kirimo ibara ry'umukara, hirya hariho urukuta rusa umweru, hino hari urundi rukuta rusa umweru, kino cyapa biragaragara ko aricyo mu muhanda, kiyobora imodoka cyangwa abagenzi.

Icyapa gisa umutuku, mo imbere harimo imodoka iri mu kizeru isa umukara, harimo n'umweru. Hepfo y'iki cyapa, hari inyuguti zandikishije ibara ry'umukara, impande y'iki cyapa harasa umweru na ruguru hagasa umweru

Icyapa gisa umutuku, kirimo ibara risa umukara, hasi hari icyapa gisa umutuku kiriho abana babiri, hasi hari n'akapa gatoya kanditsemo ijana, handikishije inyuguti zisa umukara. Hirya y'iki cyapa hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi. Hepfo hariho n'umuhanda wa kaburimbo usa umukara, uri kugendamo imodoka zitandukanye.

Hari tapi y'icyatsi urukarabiro rw'ubururu umutuku isabune y'icyatsi ameza ya shokora.

Inyubako ifite ibara ry'umutuku, iteye irangi risa umuhondo hasi yaho hariho indabyo z'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru. Imbere hari icyapa gisa umukara cyandikishe inyuguti zisa icyatsi n'umweru. Inyuma y'iki cyapa hari igiti kiza cyane gisa icyatsi. Inyuma y'iki giti hariho urumodoka runini rufite ibara risa ubururu, rufite amapine asa umukara, rufite n'imbere hasa umweru.

Umuhanda w'umukara, urimo uturongo dusa umweru, hakurya y'umuhanda hari inyubako nini cyane ifite igipangu gisa umukara, inyubako yubakishijwe amatafari asa shokora, iciyeho n'uturongo dusa umweru. Ku kumuhanda hari kugenda abagabo babiri, uwambaye ingofero y'umweru n'inkweto z'umukara n'ikoti risa umukara, uwo yambaye ishati isa umutuku n'ipantaro y'umweru n'inkweto zisa umukara.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo imodoka isa umukara, inyuma ifite akapa gasa umuhondo n'umweru, hakurya y'umuhanda hariyo inyubako nziza cyane isize irangi risa umuhondo, ifite ibyuma bisa umukara, hariho igipangu gisa umukara n'icyatsi. Impande y'igipangu hari icyapa gisa umutuku, cyandikishije mu nyuguti zisa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite irangi ry'umweru amabati ya shokora, imbere y'iyo nyubako hari urupangu rwiza cyane rufite urugi rw'umweru n'umukara, impande y'iyo nyubako hari ipoto rifite insinga z'umukara hejuru hari igihu gisa ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Aha hari ivuriro rifite ibara ry'umweru n'umukara, hariho icyapa cy'umweru kiriho amagambo y'icyatsi n'umutuku.

Umuhanda w'igitaka, hirya y'uyu muhanda hari inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru. Impande y'iyi nyubako hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi. Bigaragare ko ari ku manywa cyane. Hejuru ku nyubako hariho icyapa cy'icyatsi cyandikishijweho amagambo asa umuhondo.

Umuhanda w'amabuye uparitsemo imodoka isa umutuku n'indi isa umukara, muri uyu muhanda harimo abantu babiri, umwe wambaye imyenda isa umweru n'agakapu gasa ubururu, n'undi wambaye ipantaro isa umukara n'ishati y'umweru n'agakapu k'umukara.

Imodoka isa umukara n'isa umweru. Hirya hari icyapa cy'umutuku n'umweru n'umukara itara ry'umweru, ipoto, umunara, n'ibiti by'icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite amabati asa umutuku, ifite n'irange risa umweru. Impande y'izi nyubako hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hakurya y'izi nyubako hariho n'amapoto n'iminara itanga amarezo, hakurya hariho n'ibicu bisa umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Aha hari inyubako ifite amabara atandukanye umukara, umweru, umuhondo. Iruhande hari icyapa cy'umutuku n'umweru, hari n'abantu bafite ubururu, umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane, inyuma y'ubwo busitani hari inyubako nziza cyane ndende, iruhande rw'uwo muhanda hari ipoto ifite amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite umurongo usa umweru harimo imodoka nziza cyane isa umukara. Hirya y'uyu muhanda hariho icyapa gisa umutuku cyandikishiweho amagambo asa umweru, hino y'umuhanda hari umugabo uhagaze wambaye umupira usa umukara .Mu muhanda harimo umumotari wambaye ingofero isa umutu ,hirya y'umuhanda hariho ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara ushoyemo akarongo k'umweru ukikijwe n'amabuye asa umukara, impande ya ya mabuye hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, imbere hariho amapoto yo mu muhanda n'amatara, hirya hari ikimodoka gisa umuhondo n'isa umukara, hirya y'iki kimodoka hari inyubako nini cyane yubakijwe amatafari ya shokora afite amabati asa ubururu.

Umuhanda ufite amabuye asa shokora. Hari kugendamo umugore wambaye ijipo y'umukara n'inkweto z'umukara ,ahetse n' agakapu. Hirya y'uyu muhanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi. Imbere y'uyu mugore hari imodoka ebyiri ziparitse zisa n'umweru. Hakurya y'umuhanda hari icyapa gisa icyatsi ,cyandikishije inyuguti zisa umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uciyemo uturongo dusa umweru biragaragara ko bwije, hari kugendamo imodoka isa ubururu hejuru hariho amatara ari kwaka umuhondo, hirya y'amatara hari ibiti byinshi cyane bisa umukara n'icyatsi, hirya hari no kugenda umumotari hariho n'ibyapa byo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo isa umweru, harimo umunyonzi wambaye ishati isa ubururu; hirya y'umuhanda hari igiti cyiza cyane gisa icyatsi, imbere y'icyo giti hariho icyapa gisa umutuku; nyuma y'icyo giti hari imodoka nziza cyane isa umweru.

Umuhanda uriho amabara asa ikigina, ruguru hari urukuta rwubakishije amabuye asa ikigina, n'umukara, hejuru ku rukuta hariho inzu ifite irangi risa umuhondo n'ubururu n'umweru, hakurya y'uwo muhanda hariho n'ubusitani bwinshi cyane n'amatara yo mu muhanda.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, uciyemo umurongo w'umuhondo, n'umweru, impande y'uyu muhanda, hari undi muhanda wamabuye w'abagenzi, hirya y'uyu muhanda hari ishyamba rinini cyane risa icyatsi, urabona ko ari ubusitani bwiza busa icyatsi, hariho n'indabo zisa umuhondo.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo ukikijwe amabuye asa umukara n'umweru, mu muhanda hagati haciyemo akarongo gasa umweru, hakurya y'umuhanda hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro isa ikigina, hariho n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara hirya yaho, hari ubusatani bwiza cyane busa icyatsi, hirya y'umuhanda hari amapoto yariho amatara yo mu muhanda, hariho n'ibiti byinshi cyane, n'abantu bagiye batandukanye.

Umuhanda w'abanyamaguru wubakishije amabuye asa shokora, impande y'uyu muhanda hari ubusitani bwiza cyane, hepfo y'ubu busitani hari umuhanda w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru. Hakurya hari imodoka ebyiri ziri kuza zisa umukara n'umweru, hariho n'amatara yo mu muhanda n'ibiti byinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara haciyemo uturongo tw'umweru, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hari ibyapa byo mu muhanda biri kwaka umutuku n'umuhondo, hano haciyemo uturongo biragaragara ko ari ahantu ho bambukira hirya hariho na moto hariho n'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ushimo umurongo w'umweru n'umuhondo. hari kugendamo imodoka isa umukara, isa umutuku, n'isa umweru n'umukara n'abamotari hirya yaho hari inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru n'umukara n'ubusitani bwiza cyane ubusa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hari kugendamo imodoka isa umukara, hakurya y'imodoka hari n'iyindi isa umukara n'umumotari n'ikindi cy'imodoka kinini gisa umuhondo, hakurya y'uyu muhanda hariho n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hariho n'izindi modoka ziri kuza n'abamotari.